Iyi ni menu cyangwa se urupapuro ruranga ibintu bifitwe muri resitora cyangwa se bare runaka hakaba hariho ibintu bigiye bitandukanye byo kunywa, hakaba hariho ibyo kunywa bisindisha cyangwa se ibyo kunywa bisembuye birimo ibyo kunywa byo mu bwoko bwa'marikeri bigiye bitandukanye n'ibiciro byabyo.

Iyi foto iragaragaza ahitwa mu ikusanyirizo ry'amata, aho tubona i jage iri hejuru ya firigo harimo umufuniko w'ijerekani. Iruhande rwaho hakaba hari igicuba cyuzuyemo amata, harimo abantu bari muri musanyirizo bashobora kuba baje kugura amata nabo.

Ahantu barimo bararya bishimye harimo umugabo wishimye n'umudamu ukuze, bakaba bari gufata amafunguro bakaba bishinye hari n'uwundi muntu icaye ukebuka areba hanze.

Iyi foto iragaragaza igikombe kirimo amata, kuruhande rwacyo hariho isahani iriho imyumbati, imbere yacyo hariho itasi irimo icyayi hakaba hari n'umumama wicaye, ifoto rero ikaba yarafashwe n'umuntu warugiye kunywa kino cyayi ari muri resitora runaka.

Aaturage babiri bari gusaba ubufasha ababishinzwe bakora muri mobayiro mane mu Rwanda ababishinzwe bafite mudasobwa.

Ikicaro cya emutiyene mu rwanda kiriho abakozi ba emutiyene, batanda ubufasha mu bijyanye na mobayiro mani.

Ubucuruzi bukorewe ku mbugankoranyambaga hariho nomero za watsapu na kode wakanda igihe ushaka kubavugisha.

Iyi ni foto igaragaza kampani icuruza inkweto z'abagore ziri hasi zishobora kuba zarakorewe mu Rwanda ziri kuri webusayiti yitwa kigure ushobora kujyaho ukayigura haba hariho n'ibiciro by'izo nkweto.